Icyumba kiberamo inama, hakaba hateraniyemo abantu batandukanye, hari abafite mudasobwa ndetse abandi bakaba bafite amakaramu n'udukayi bari kwandikamo, iyi nama ikaba ari inama ya leta kuko mbyemezwa n'uko ku ruhande hari urupapuro ruriho idarapo ry'Urwanda.

Icyumba cyabereyemo inama yahuje abagore ndetse n'abagabo bakaba bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika ibiri kuvugirwa muri iyo nama, ndetse bakaba bafite n'amazi bari kunywa kugira ngo birinde inyota mu gihe bateze amatwi inama.

Abantu bari mu nama ndetse hagati harimo umugore uri kuvuga ijambo, bakaba bafite amazi yo kunywa ndetse n'amaterefone, n'amakayi yo kwandikamo.

Itangazo rigaragaza ko umunsi ntarengwa wo kwishyuriraho ko ari uyu munsi, ko umuntu uri bwishyure ari bwirinde ibihano, kandi ko agomba kumenyekanisha imisoro ndetse n'ubwishyu.

Hafi y'ipiloni ritanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari akantu k'umweru bacaniraho bakanazimirizaho ingufu z'umuriro w'amashanyarazi igihe bibaye ngombwa. Akaba ari mu gashyamba, hari utwatsi, ndetse n'ibiti hirya yaho.

Uko bigaragara ni mu kigo cy'amashuri ariko icyo kigo cy'amashuri habereye inama isa nkaho ari iy'abaturage bari gutora abayobozi iyo nama ikaba yabereye mu nsi y'ikigo mu nsi y'igiti.

Iyi ni igazeti ya leta igaragaza nomero cumi n'imwe, cumi n'ebyiri ndetse n'ingingo ya gatanu iri kuvuga ku bikorwa bitandukanye pologaramu y'ibikorwa by'urwego komisiyo ishikiriza ndetse nabo ishikiriza raporo.

Aha ni muri gare aho abagenzi bategerereza imodoka hari bisi igaragaza ko iri gupakira abantu bari kuyinjiramo hakaba hari n'abandi bicaye mu cyapa bategereje batarinjira muri iyo modoka.

Ikinyabiziga gihagaze mu muhanda imbere yacyo hari ikindi, iruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse no ku ruhande rundi hari inzira itwara amazi mu mugihe imvura yaguye.

Mu bikorwa remezo bya leta harimo n'imihanda. Akaba aribyo bigaragara ahangaha. Ndetse hari n'inyubako yubatse neza, ifite amadirishya agaragaza mu muhanda, ndetse n'imodoka itwara imizigo, izwi mu bwoko bw'ibikamyo.

Uyu muhanda uriho ibinyabiziga bitandukanye urugero moto ndetse n'igare n'abanyamaguru, kuruhande rwayo hariho inzira itwara amazi mu gihe imvura yaguye hari n'ibiti biri ku ruhande ndetse n'uruzitiro rukoresheshe agatambaro.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi bari kugikiniramo, ndetse n'undi uri i ruhande rw'ikibuga uri kwambara inkweto neza. I ruhande rw'iki kibuga hari ishyamba ndetse n'amatara.

Iki ni icyapa kiba mu mihanda kigaragaza ko ibinyabiziga bitagomba kurenza umuvuduko wa kilometero mirongo itandatu mu isaha. Kikaba kirangwa n'ibara ry'umweru rizengurutswe n'akaziga kari mu ibara ry'umutuku, icyo cyapa kikaba gishushanyijwe mu ibara ry'ubururu ahantu hose.

Inyubako ikoreramo hoteli yitwa imfiniti hoteli, ikaba ikikijwe n'ibiti byitwa sipure, bikora nk'indabo, ndetse ikaba inafunguye. Imbere y'iyo hoteli hari guca umugenzi uri kugenda n'amaguru.

Mu mujyi wa kigali inzira igendwamo n'abanyamaguru gusa; hakaba hari ubusitani burimo ibiti byiza ndetse n'utwatsi dutoya n'umuntu uri kugendamo n'amaguru.